Imiteja. Imiteja ni ibiryo bikungahaye cyane ku ntungamubiri, biboneka mu bice bitandukanye by'Igihugu. Bikaba bihingwa cyane cyane mu gihe cy'imvura kandi bikaba biboneka hose mu bice by'u Rwanda.